Bare ziba nziza cyane, aho usanga abantu batandukanye, cyangwa se umuntu umwe ku giti cye, yarubatse inzu agashyiramo nk'icyo kunywa n'icyo kurya. Agashyiramo nko kunywa amafanta, amabyeri, amapirimusi; yarangiza agashyiramo naho kubyinira, abantu bakajya baridagadura, ndetse n'inshuti zabo zikajya zihura.

Kwiteza imbere bikomeje kwiyongera cyane, aho usanga umuntu yarihangiye imirimo akubaka amazu, bakubaka amabare cyangwa se amaresitora, agashyiraramo intebe, agashyiraramo ameza, agashyiramo n'icyo kurya n'icyo kunywa, kugira ngo ubikeneye wese ajye ajya kurya nta kibazo, kandi n'ababikoramo bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

utubare ndetse na bale aho amuntu yakwidagadurira, yasohokana n'umukunzi we, inshuti ze, imiryango ugasanga abantu bahuye bari gusangira, bagiye kurya kunywa inzoga zitandukanye, kunywa amafanta, ugasanga bamwe bahakodesheje bahakoreye n'ibirori, gutyo uwashinze bare akiteza imbere, agateza imbere n'umuryango we, ndetse n'abandi bamugana. Akaba yabaha akazi bakiteza imbere.

Bare ziba nziza cyane, aho usanga umuntu yarubatse nk'inzu agashyiramo ibintu bitandukanye, nk'ibinyobwa, nk'icyo kurya, ndetse bakajya bakoreramo n'imyidagaduro. Ugasanga ari uwubatse iyo bale yinjiza amafaranga, n'Igihugu kigatera imbere ku bwo gutanga imisoro.

Bare ziba nziza cyane, aho usanga nk'umuntu yarihangiye imirimo, akazana akubaka inzu nini cyane, agashyiramo ibintu bitandukanye: agashyiramo aho kurira, aho kunywera, agashyiramo aho kubyinira, agashyiramo n'aho abantu bajya baridagadurira. Ibyo bikamufasha kubona amafaranga yo guteza imbere imiryango ye.

Bare ni nziza cyane aho usanga umuntu yarateguye ibitaramo mu birori bitandukanye, akaba yahakorera n'ubukwe akaba yatumira abantu inshuti ze bakabyina bakanywa, bagatarama. Ndetse bakamenyana bakanagirana ibiganiro bitandukanye, ugasanga nyiri bare arikwinjiza amafaranga ari n'umuhanzi wagiye kuhariririmbira akinjiza amafaranga yo gutunga imiryango ye.

Butike ziba nziza cyane aho usangaga nk'umuntu yarafashe nk'inzu agashaka ibintu bitandukanye akayishyiramo nk'amavuta n'ibindi bintu bitandukanye, yarangiza hejuru kunzu agashyiraho nimero ye hejuru bamuhamagaraho, urimo kugenda wabona icyo ukeneye ukajya kukigura ari wa mucuruzi akiteza imbere kubwo kubona abakiriya benshi.

Ni byiza cyane aho usanga abaturage bihangiye imirimo bakubaka amabutike yo kugenda baracururiza ibintu bitandukanye; imyenda, amakara, ibitenge ndetse bagashiraho n'indi mineke, kuburyo waba uri ku rugendo ukajya urajye gufata nk'icyo kurya n'icyo kunywa, warangiza ugakomeza urugendo rwawe n'abari gucuruza nabo bagakomeze bagatera imbere.

Iterambere ni ryiza cyane aho umuntu asigaye yarabonye igicanwa cyo gucana cyasimbuye inkwi, icyo bita gaze, aho umuntu asigaye ajya aho afite aho kujya kukivomesha, akaba yabona aho guca ibyo gucana, byo gutekaho, ndetse ku muntu bikaba biteka vuba kurusha inkwi twakoreshaga.

Ubucuruzi busigaye bwiyongera cyane ndetse n'iterambere riza ari ryinshi. Mbere umuntu yabaga akeneye amafaranga ukaba wayamujyanira n'amaguru, ndetse n'imvura ikagwa ukaba utayamujyanira, ariko ubu haje iterambere ryo kohereza amafaranga kuri mobayiromani, umuntu asigaye ayohereza atabanje kujya iyo ayajyanye.

Iterambere riba ryiza cyane. Aho usanga abantu barubatse amazu ahantu hatandukanye, ugasanga nk'iyo nzu bayishyizeho icyo ikora, warangiza waba uri nko ku rugendo ukaba wajya nko gushakamo icyo kurya bitewe nuko wabonye barabyanditse ku cyapa. Ibyo bikagufasha kubona amafunguro byihuse, ndetse n'ababicuruza ugasanga babonye amafaranga yo kwiteza imbere.

Mbere ducuruza wasangaga ibicuruzwa bimwe byaboze, ibindi byamunzwe kubera kutabona akuka kinjiraga mu bicurizwa, ariko ubu umuntu asigaye ashyiramo amakositara. Amakositara akaba afasha akayaga kwinjira mu bicuruzwa kugira ngo bitagaga, ni nayo mpamvu butike zifite amakositara ari nziza cyane.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga nk'abantu barubatse amazu ahantu hatandukanye ugasanga bashyizeho nk'ibyo bakora, bashushanyije nko ku byapa ibyo bakora, ibyo bacuruza, ibyo bakanika nko gukoresha amatelefone ukaba uzi ngo ahantu bayikoresha uri kuhareba. Ukajya kuyikanikisha n'abari gukanika amatelefone cyangwa kuyacuruza n'amateleviziyo bakabona amafaranga yo gukomeza kuyiteza imbere.

Imirimo ikomeje guteza imbere abaturage. Aho usanga umuntu yarihangiye imirimo y'ubucuruzi. Agashyiramo gucuruza amatelefoni, ibyuma bitandukanye, intebe, ameza ndetse n'amagare. Ubundi yarangiza agashyiraho igishushanyo cyerekana ko ibyo bintu biri aho ngaho bikenewe. Ubikeneye wese akamenya aho arabishakira bitamugoye, gutyo n'uri kubicuruza agakomeza gutera imbere cyane.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga abantu batandukanye bagiye bubaka amazu ahantu hatandukanye. Ibyo bigaha buri wese afatamo icyumba cy'ubucuruzi. ibyo bikamufasha gutera imbere kubwo ubucuruzi yashizemo.

Ubucuruzi buba bwiza cyane aho usanga nk'abaturage barihangiye imirimo, bakubaka amazu atandukanye barangiza bagashiraho nk'ibyo bacuruza cyangwa s'ibyo bakora. Ujye nko kubishaka akarebera kuri cyacyapa bashyizeho banditseho, akabona ibyo aragura aho biri agahita agenda akabigura mu buryo bwihuse cyane. N'abari gucuruza bakabona amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

Butike ziba nziza cyane aho usanga nk'abantu barubatse inzu mu duce dutandukanye, bagashyiramo nk'ibicuruzwa ,ugasanga bari gucuruza nk'amavuta, amasabune, amakarito ,n'amagare ,ugasanga babonye nk'amafaranga yo gukoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi ,ndetse n'uri kuza kugura ikintu akakibona byihuse na wa wundi uri gucuruza akajya arabona amafaranga yo gukomeza kwagura ubucuruzi bwe.

Leta iba nziza cyane, aho usanga yarubatse ahantu hatandukanye, abantu bakaza bagafatamo nk'umuryango. Cyangwa se, ugasanga nk'umuntu ku giti cye yubatse inzu ya butike ye, agashyiramo ibintu bitandukanye, nk'impapuro, amakayi n'amakaramu, byo kujya bifashishwa n'abanyeshuri bajya kwiga bafite ibyo kwandikiraho. Kandi nawe agakomeza gutera imbere, abantu bari kuza kuguramo ibikoresho bitandukanye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu barubatse amazu mu duce dutandukanye, ugasanga afashe nk'umuryango umwe, ashyizemo ibicuruzwa bitandukanye, nk'amasima n'ibindi bikoresho bifashisha mu bucuruzi, ugasanga ashyize nk'icyapa kerekana nk'ibyo acuruza, bityo umuntu uje kubigura akajya arareba ahantu biri kuko cyapa, kubibona bikamworohera umucuruzi akiteza imbere.

Butike ziba nziza cyane, aho usanga nk'umuntu yarubatse inzu nko k'umuhanda ahantu hatandukanye, ugasanga ahasize nk'ibicuruzwa bye, ugasanga yashyizeho nk'icyapa cyerekana ibyo acuruza, bigafasha umuntu uri k'urugendo ugiye nko kugura ikintu akeneye guhita akibona, kubera ko aba azi nko gusoma, ugasanga na wa muntu uri gucuruza, abonye amafaranga yo gukomeza ubucuruzi bwe, agakomeza kwiteza imbere.

Butike iba nziza cyane ,aho usanga nk'abantu bafite amazu nko ku mihanda ,barashyizemo ibicuruzwa bitandukanye ,ugasanga nko ku bipapuro bimanitse nko ku nzu zabo, ugasanga bashyizeho ibyo bacuruza nk'abaguzi baba bari kugenda nko mu muhanda, ugasanga babonye ibicuruzwa bimanitse bagahita binjira aho hantu, bakagura ibyo bakeneye, wa wundi urimo gucuruza akabona amafaranga yo gukomeza kwagura ubucuruzi.

Kuyongera cyane aho usanga umuntu yarubatse inzu yarangiza, iyo nzu agashiraho icapa cerekana ko ari butike, yarangiza agashiramo icyo kurya, icyo kunywa byaba na ngombwa agashyiramo n' amacumbi, kuburyo nka ba mukerarugendo baba bari kugenda cyangwa se abaturage basanzwe bakenera icyo kurya bakajya ku kibonera makeya no kujyamo, bakajya kuryama ibyo bigafasha abaturage ndetse n' abanyarwanda gutera imbere n' abashinze butike bakabona amafaranga.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, aho iterambere rigenda rikura cyane, dore umuntu yajyaga gushaka amavuta yo kwisiga akayabura ariko umuntu asigaye ayabona harimo na siraje, ibikapu byo gutwaramo n'amavuta yo kwisiga, ingofero n'amakofi yo kubikamo amafaranga.

Iterambere riba ryiza cyane aho usanga nk'abantu barubatse amazu ku mihanda itandukanye no mu duce dutandukanye, bagashyiramo ibicuruzwa barangiza bagashyiraho nk'ibyapa byerekana ibyo bacuruza, bityo umuguzi yaba arimo kugenda yabona nk'icyapa kiriho ibyo akeneye akajya kubigura ahantu hafi, ndetse n'abari gucuruza bakabona amafaranga bagakomeza bakiteza imbere.

Ubucuruzi bwa butike buba bwiza cyane, aho usanga abantu barubatse amazu mu duce runaka dutandukanye, ugasanga nk'umuntu yafashe umuryango asizeho ibyo acuruza, cyangwa se bamwe ugasanga banashinze ibiti bitandukanye aho bapimira, barambika umunzani, ugasanga nk'abaje gucuruza ibirayi babonye aho gupimira, ndetse n'abaje gucuruza ibijumba bitandukanye bakabona aho gupimira, na wawundi wazanye umunzani, akabona amafaranga yo kwiteza imbere mu bikorwa bye bya buri munsi.

Amahoteri asigagara meza asigaye atuma n' umuntu abona aho gucumbika, akabonaho gufatira amafunguro arimo ashaka nk'inyama, amafi, intanasi, n'imiceri akaba aziko hari ahantu hashobora kubona naho kurara, kuryama umuntu yarari aryamaga hanze ariko ubu kubera amahoteri ateye imbere, umuntu asiga abona aho acumbika ndetse yanariye.

Botike ni nziza cyane aho usanga zigiye ziraba ahantu hatandukanye nko ku mihanda, abacuruza amarangi ibijerekani, indobo bityo umuntu akabasha kutwara ryarange neza cyane kuburyo arikoresha mu rugo ritangiritse.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga nk'abantu barubatse ahantu amazu atandukanye, bagashyiramo ibintu bitandukanye. Ibyo bigafasha abantu kujya kugurira hafi y'aho baturiye ku bw' abantu biteje imbere, ugasanga na ba bantu bacuruza muri za butike bari kwiteza imbere, bari kubona amafaranga yo gukomeza kwagura ubucuruzi bwabo.

Iterambere risigaye ririhuta cyane kuruta mbere, aho umuntu yajyaga guhaha cyangwa se agashaka aho yajya akabibura, ariko ubungubu dusigaye turajya ahantu tukaba twasanga aho twajya bwanakwira tukaryama aho.

Iyo uri mu rugendo, iyo ugeze ahantu ugashaka icyo kurya n'icyo kunywa, ubu kukibona ntibisigaye bigoye, usanga umuntu yarafashe inzu akubaka, ashyira aho gutekera, guteka ibiryo, amandazi n'imigati, ndetse agashaka n'icyo gufashisha nk'cyayi n'amata.

Iterambere ni ryiza cyane, aho usanga abantu barubatse amazu ku mihanda mu duce dutandukanye, ugasanga afashe nk'icyumba ashyizemo ibicuruzwa bitandukanye, afashe n'icyapa amanitse ibyo acuruza, kuburyo umuntu aba ari kugenda yashonje afite inyota, akabona ahantu hariho ibyo kunywa, aragenda akabifata yarangiza kubifata agakomeza urugendo rwe, ibyo bigafasha n'umucuruzi kubona amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

politike ziba nziza cyane aho usanga abaturage barubatse amazu atandukanye n'amataje barangiza buri wese akaza agafata aho umuryango ashaka n'uruhande ashaka guhereramo akarushyiramo nk'ibicuruzwa bitandukanye yarangiza agashyiraho nk'icyapa cy'ibicuruzwa azajya aracuruza ku buryo umuntu ubishaka yajya arareba kuri cya cyapa kiriho amakuru za nyandiko yanditse yamanitse hejuru akamenya ibyo ashaka kugura akajya kubisanga aho biri akabigura na wa wundi uri gucuruza akiteza imbere.

Mbere twajyaga guhaha. Ugasanga umuntu agiye guhaha, aho arahahira akabibura. Ariko ubu kubera iterambere ryaje umuntu asigagara aje guhaha akamenya aho ibyo agiye guhaha biri. Kubera ko biba byanditse akenshi ku mazu bacururizamo ibihahirwa.

Butike ni nziza cyane, aho umuntu yiyemeza agashyingiranwa umuntu akabizinesi ko gucuruza isukari, umunyu, amavuta agacuruza n'umuceri ndetse n'agahunga, ku buryo buri wese uyikeneye, aba azi ngo arajya kuyishakira aho kuko umuntu witeje imbere byaba na ngombwa agahitamo akazi akajya abafasha bityo bagakomeza bakiteza imbere.

Iterambere rikomeje kwiyongera cyane mu duce tumwe na tumwe, aho ubucuruzi bukomeza kuzamuka cyane, aho umuntu akenera kuri telefone ubu ashobora kujya kuyigura, Kamera zo gufata amashusho na'ama odiyo, n'ama kompiyuta akaba yajya kuyagura kuko igihugu cyacu kiri kugenda cyiyongera iterambere umunsi ku munsi.

Iterambere rikomeje kwiyongera aho usanga nk'abantu barubatse ahantu hatandukanye hakubaka inzu. Barangiza bagashyiramo ibiribwa bitandukanye nk'amabutike bagashyirama ibiribwa bitandukanye. Abantu bari gucuruza inyanya zanyuze mu ruganda, ugasanga n'uruganda rukoresha za nyanya nka ma oyirinizi, ugasanga abonye amafaranga ndetse n'ndi uri gucuruza akorera amafaranga yo gukomeza ubucuruzi bwe akaniteza imbere.

Iterambere ni ryiza cyane aho usanga abantu barubatse amazu atandukanye . Bashiramo imiryango itandukanye noneho umuturage ashaka akaza agafata umuryango . Ari uwubatse ya mazu bakamuha amafaranga yo gukodesha, yarangiza agashyiraho ibyo bacuruza bakabishyira ku gishushanyo bakabyerekana. Ku buryo ari ubikeneye aba azi ahantu arabisanga.

kwihangira imirimo bikomeza gufasha abantu cyane guterare imbere aho usanga umuntu yaragiye kwiga akiga kogosha, akiga gusuka, yamara kubyiga agafata icyapa akandikaho ibyo akora, kugira ngo buri muntu wese ukeneye iyo serivisi ayibone byihuse, kandi nuri kuyikora abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Leta ni nziza cyane, aho usanga yarubatse amazu atandukanye. Cyangwa se ugasanga umuntu yubatse inzu ye ku giti cye, yarangiza agashyiramo ibyo acuruza, akandika ku byapa, ku bipapuro, agashushanyaho n'ibyo acuruza. Ku buryo wasanga nk'umuntu uri kugenda mu nzira, ugiye nko guhaha, akabona ahantu hari butiki, akabona ibyapa byerekana ibyo bacuruza. Niba ari byo akeneye, yabisangamo, akaza kubigura bitamugoye.

Butike iba nziza cyane, aho usanga abantu barubatse amazu ahantu henshi hatandukanye, ugasanga bafashe nk'inzu imwe, cyangwa icyumba kimwe cy'umuryango bagashyimo ibicuruzwa bitandukanye, nk'amabalo yo gukina, imyenda, n'amavuta, umuntu yaba abikeneye akabibona hafi . Kandi n'abari kubicuruza bakabona amafaranga bakunguka bakiteza imbere.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga umuntu yarubatse ahantu inzu agashyiramo nk'ibicuruzwa bitandukanye ,yarangiza akaba yabishyira nko hanze agacuruza:nk'imiceri, sima, ibishyimbo, yarangiza nk'abantu babikeneye bakaza nko kubigura, bamara kubigura bakamuha amafaranga, wa wundi uri gucuruza akabona amafaranga yo gukomeza kwagura bucuruzi bwe, ibyo bikamufasha gucuruza neza, kandi na ba bandi baje guhaha ugasanga babonye ibyo bakeneye ku giciro cyiza.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yarashyizemo ibikoresho bitandukanye, imikeka, matora, na tapi, ugasanga nk'ukeneye tapi yaje kuzigura, nk'ukeye matora yaje kuzigura, ugasanga nk'umucuruzi uri kuzicuruza yiteje imbere, ndetse n'abakeneye ibikoresho byabo bakabibonera ku gihe.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga Leta yaratanze nk'ubutaka bwo kugenda baracururizamo, yarangiza abantu bakahubaka amazu ya butiki, bagashoramo ibintu bitandukanye. Ku buryo waba uri nko ku rugendo ukabona ibintu bari gucuruza ukaba wajya kubigura, bigafasha abacuruzi gutera imbere, ndetse bagatanga n'imisoro yo kwifashisha bari kubaka Igihugu.

Iterambere ni ryiza, aho butike zaziye, dusigaye turajya guhahamo, hari umunyu, hari n'isabune, mu gihe mu gihe cya mbere tutabonaga aho guhaha, ariko ubu butike zaje ari nziza, dusigaye turabona aho duhahira.

Inzu iba nziza cyane, aho usanga umuntu yarubatse inzu yarangiza agashyiramo ibintu bitandukanye, agashyiramo nk'ibikoresho byo ku igare, ugasanga ari gushyiramo imipine yo ku igare, ugasanga afite nk'intebe zo kwicaraho zikoreshwa n'abanyonzi; ibyo bikamufasha kubona amafaranga ku bwo gucuruza intebe, ndetse na ba bandi bakeneye intebe zo ku igare, bakazibona hafi badakoresheje urugendo rurerure.

Iterambere riba ryiza cyane, aho abaturage n'abantu batandukanye, cyangwa se ba rwiyemezamirimo, bubaka amazu, barangiza bakubaka amazu impande y'umuhanda, bagashyiramo ibintu bitandukanye. Butike zikaba nziza cyane, bagashyiramo ibyo kurya, ibyo kunywa. Umuntu yaba ari ku rugendo, ari nko ku igare, akaba yajyamo kugura icyo akeneye. Ndetse abacuruza, bagakomeza bagatera imbere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane kandi bukomeza gutera imbere, aho umuntu ajya kugura ibyo akeneye agasanga aho bimanitse. Ni nko kugura ibyo kurya, kugura isabune, kugura amavuta, agasanga bimanitse ahantu ari bubisange kandi mbere ntibyashobokaga. Wirirwaga uri kubunga, ukabunga ukabunga ukabunga kugira ngo ubone ibyo washakaga bikaba ikibazo, ariko umuntu asigaye agenda akaba azi aho agiye kubishakira.

Iterambere riba ryiza cyane ,aho usanga abantu batandukanye, barishyize hamwe bakubaka nk'amazu bamara kubaka amazu ya butike ,nk'imbere bagasiga ahantu hanini nko kumapave ,cyangwa se ahantu bakoteyeye ,ugasanga nk'umuntu ujye guhaha afite nk'ikinyabiziga aparitse aho ngaho ,hafi aho, aho ari kuyireba, nka moto, cyangwa igare ,cyangwa imodoka, ugasanga hashizwe nk'umutekano, ibyo bigafasha ari umuguzi ari n'umucuruzi gukoresha ibintu bye neza.

Ubucuruzi ni bwiza cyane aho usanga abantu barubatse amazu bagashyiramo imiryango bagashyiraho ibyo bacuruza hanze nk'imikubuzo, imbabura, amasafuriya, imyuko, indobo, imyenda ndetse n'ibikapu n'amabase yo gukarabiramo. Uburyo umuntu yaba ari kugenda agahita abona igikoresho ashaka akakigura bityo bigafasha n'umucuruzi gucuruza vuba vuba akabona amafaranga akunguka.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yarafashe inzu ugashyiramo ibintu bitandukanye, intebe, ibyo kurya, impapuro ,wabona nka butike ukajya kuguramo icyo ukeneye cyose, ibyo bigafasha umucuruzi kubona amafaranga, ndetse no gutanga imisoro yo gufasha igihugu kugera ku iterambere.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga umuntu yarubatse inzu ahantu hatandukanye, yarangiza agashyiramo butike, butike agashyiramo ibicuruzwa bitandukanye, akabishyira hanze, agashyira hanze nk'indobo, amabase ndetse n'imikoropesho n'ibikapu, k'uburyo umuntu yaba ari nko kugenda yabona nk'icyo akeneye agahita akigura ako kanya, ntabyo gutindiganya na wawundi uri gucuruza akabona amafaranga akiteza imbere.

Butike ziba nziza cyane, aho usanga umuntu yarafashe inzu agashyiramo ibintu bitandukanye, agashyiraho n'udutobe two kuruhukiraho, agateraho n'uduti two kuzana umuyaga, agashyiraho n'ibyo acuruza ku gipapuro, ubwo waba uri kugenda ukabibona ku gipapuro ukagenda ukamenya ko ibyo bintu biri ku gipapuro biri aho ngaho, ukajya kubigura ukikomereza urugendo rwawe, nta n'inzara ufite, kuko wabonye icyo kurya kuri ya butike iri ku muhanda.

Botiki ibaga nziza cyane aho usanga umuntu yarubatse inzu ye akayishyira mu gace runaka, nko mubyaro yarangiza agashyiramo ibintu bitandukanye. Abantu baba bari kunyura aho hafi aho, bakaba bakenera nk'ikintu cyo kurya cyangwa se nk'ikintu cyo kugura, wenda nk'agasitimu mu gihe bwaba bwije, ukabona nka butike ujya kukagura ugakongeza ugataha neza, na wa wundi uri gucuruza butike akabona amafaranga yo gukomeza kwiteza imbere.

Twajyaga guhaha mbere, ugasanga aho umuntu agiye guhahira ntabwo hari isuku, ariko ku bw'iterambere ryaje, umuntu asigaye ajya guhaha agasanga butike ahahiramo irimo isuku, ndetse imvura yaragwaga, ikanyagira umuntu, ariko ubu umuntu asigaye arahaha yugamye, kandi atekanye afite n'ibyishimo.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga umuntu yarafashe nk'inzu runaka, akayishyiramo urusyo rw'icyuma rubeta rukoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, ugasanga abantu bazanye nk'ibigori ku bibetesha cyangwa se amasaka, cyangwa se n'ingano, ukabona babonye ifu bakeneye, ibyo bikabafasha kubona amafunguro, ndetse n'abashyizeho cya cyuma cyo gusya bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Uburezi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuntu yarize, akajya kwiga nk'ubuganga yarangiza kwiga nk' ubuganga yagera nko hanze akamenyako agomba gushinga farumasi, agashyiramo imiti itandukanye Ku buryo nk'abarwayi bajya kwa muganga, babandikira nk'imiti yaba kwa muganga ntayiriyo bakabohereza muri foromasi aho bayigurira, ugasanga wa wundi wize nk'ubuganga washyizeho farumasi ari kubona amafaranga yo kumuteza imbere.

Iterambere rikomeje kwihuta cyane, aho umuntu agenda akihangira imirimo yarangiza agashyiraho icyapa cyerekana ibyo acuruza, ndetse akandikaho n'amazina y'ibyo acuruza, byaba na ngombwa agashyiraho nimero kuburyo ugiye gushaka icyo ukeneye wajya uramuhamagaraho.

Butike iba nziza cyane, aho usanga abantu barubatse nk'amazu ku mihanda, bagashyiramo ibintu bitandukanye, nk'ibyo kurya, ibyo kunywa, waba uri nko ku rugendo ushonje, ukajyamo ugafatamo icyo ushaka, ukisamira inda. Warangiza ugakomeza urugendo rwawe. Ibyo bigafasha n'umucuruzi gukorera amafaranga yo kwiteza imbere.

Inyubako iba nziza cyane, aho wubaka amazu ukubaka nahoho guparika imodoka. Ndetse iyo nzu waba yubatse ukaba washyiraramoka butike y'ibyo kurya bitandukanye: amafi, amafifiriti. Ndetse agashyiraho n'icyapa cyerekana Ibyo ucuruza. Ku buryo iyo muntu yaba ari mu nzira ashonje ari gutembera akajya kuba yafata icyo kunywa. Akabona n'aho guparika I binyabiziga nk'imodoka na moto. Ku buryo umuntu uhakubura ndetse akaba yabona amafaranga yo gutungisha imiryango ye.

Iterambere ni ryiza cyane aho usanga nko mu nsengero zitandukanye, abantu baragiye bakagura nk'imikeka, ibitambaro byo gukoresha mu rusengero, kuhataka ndetse bakagura n'udututi two kuvugiraho ijambo ry'Imana, ibyo bigafasha abacuruza imikeka n'abantu bize nko kubaza, ugasanga babonye nk'amafaranga ya... yo kwiteza imbere.

Iterambere riba ryiza cyane aho usanga nk'abaririmbyi batandukanye b'amatorero runaka bubatse nka korali. Ugasanga nka korali yaguze inifomo ahantu hatandukanye ari amashati, n'amajipo, n'amapantaro. Ndetse bakagura n'iibyuma, n'imikeka yo kwifashisha ugasanga nka ba bantu babagurisha ya myenda bungutse amafaranga yo kugura ibindi bitambaro kugira ngo bakomeze biteze imbere.

Iterambere ni ryiza cyane aho usanga nk'umuntu yarubatse amahoteli cyangwa se na Leta ikubaka amahoteli yo kujya bakiramo abantu bakeneye ari nko kuryama cyangwa se gufatiramo amafunguro. Ibyo bigafasha abashoramari kubona amafaranga ndetse na ba mukerarugendo bakazanamo amadovize yo gufashisha igihugu cyacu gutera imbere no kubaka amavuriro.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga nk'abantu barihangiye imirimo ,ugasanga bubatse ahantu hatandukanye, amazu meza cyane ,ugasanga bubatse n'amahoteli, bagashyiramo nk'ibikinisho, bagashyiramo aho kurira, bagashyiramo aho kunywera, n'aho kuryama, ugasanga nk'umuntu uri ku rugendo abonye bumwiriyeho nkaho kuruhukira akajya nko mu mahoteli n'abubatse amahoteri akura n'amafaranga yo kwiteza imbere.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga Leta yarubatse nk'amasoko, ahantu mu duce dutandukanye. Ugasanga nk'umuntu yaragiye afashemo igisima, ashyizeho n'ibicuruzwa. Imineke, imbuto, avoka akajya aracuruza abantu bakaza bakamugurira. Ibyo bikamufasha gutera imbere, kandi na ba bantu bakeneye ibyo kurya na byo bakabibonera ahantu heza. Ugasanga Leta na yo yinjiza amafaranga kubwo gutanga imisoro ya ba bacuruzi, na bo bakiteza imbere.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu bari gucururiza ahantu hatandukanye. Nka Leta yarubatse amasoko ahantu henshi hatandukanye. Ugasanga nk' umuntu ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, nk'itabi cyangwa se ibikamba. usanga nk'abarikeneye bari kuribona batavunitse, badakoze urugendo rurerure, ndetse n'abari gucuruza itabi, ugasanga babonye amafaranga yo gutungisha imiryango yabo.

Kwihangira imirimo bikomeza kwiyongera cyane aho umuntu yihangira imirimo agakora isoko ryo kugenda agura amatelefone, amaradiyo, ibyuma bya eregitoronike ndetse akaniteza imbere agateza imbere abandi, agatanga ubufasha ku bandi bantu babikeneye, iyo umuntu aje gushaka nka telefoni yo kuvugiraho ntiyirirwa arahedwa cyane kuberaka abantu benshi bakomeje kw'iteza imbere bakanashyira ibiciro hasi, umuntu agakomeza kw'iteza imbere bikomeye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umucuruzi barubatse amazu agafatamo nk'icyumba cyo gucururizamo, agashyiramo ibintu bitandukanye: imyenda, ibitebo, uduseke, amasafuriya n'amabase, ibyo bigafasha umuguzi kubonera ahantu arabigura hafi kandi na wa mucuruzi akiteza imbere.

masoko meza meza cyane, aho wasanga bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye birimo: nka pavuro ,nk'ibitunguru ,ndetse na tangawizi ,n'amashu bigafasha umuntu ukeneye icyo ashaka cyose akibonera ku gihe ,kandi n'uri kubicuruza akabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Iterambere rikomeje kuzamuka cyane aho usanga leta yarafatanyije n'abaturage kubaka amasoko, abaturage bakagenda bagafatamo umwanya wo gucururizamo imyenda, inkweto. Maze abashaka inkweto bakajya bajya kuzigura, abashaka imyenda bakaza kuzigura, abacuruzi b'imyenda bakabona amafaranga yo kwifashi mu gutunga imiryango yabo no kuzamura iterambere ry'igihugu.

Iterambere riba ryiza cyane, aho usanga nk'abantu cyangwa se Leta yarubatse amasoko atandukanye, ugasanga nk'umuntu aragiye afashamo nk'umuryango runaka, ugasanga ashyizemo ibicuruzwa bye nk'amapantaro, imyenda itandukanye ndetse n'ibyo kwiyorosa, ugasanga nk'umuntu n'iyo yaba ari kugenda, ugasanga abonye na cya kindi yari akeneye akajya kukigura, yamara kukigura, undi uri kubicuruza akiteza imbere agura n'ibindi ku bwo ari kubona inyungu.

Leta idufitiye akamaro kanini cyane, aho usanga barubatse nk'amasoko ugasanga nk'umucuruzi afashemo nk'igisima agashyiramo imbuto zitandukanye nk'amaronji, ibinyomoro, ibipapaye ugasanga nk'umuntu uzikeneye aziboneye ahantu hafi, kandi wa mucuruzi uri gucuruza akiteza imbere.

Leta iba nziza cyane ,aho usanga yarubatse amasoko mu duce dutandukanye, basanga nk'umucuruzi wafashemo igisima agashyiramo ibicuruzwa imbuto n'imboga zitandukanye. Uri kuzigura, akaza kuzigura ahantu heza kandi hatekanye ibi bigafasha n'ubucuruzi kwiteza imbere.

Amako aba meza cyane, aho umuntu agenda afata nk'igisima. Leta yarubatse nk'amasako ahantu hatandukanye, ashyiramo nk'ibyo gucururizamo agashyirama amatoroshi yo gukongeza nijoro, amavuta yo kwisiga, ndetse na korogate n'imakasi ,ugasanga uri gucuruza abonye amafaranga akomeje kwiteza imbere. Na babandi baguze amavuta bagasiga umubiri wabo, ugacya ukaba neza nti bakushuka.

Kwihangira umurimo bikomeza guteza imbere abantu cyane, aho usanga barihangiye umurimo, bagafata nk'inzu, bagashyiramo ibicuruzwa bitandukanye: amavuta yo kurya, ayo kwisiga, ayo guteka; bagashyiramo n'icyo kunywa, nk'amazi, za kokakora zitandukanye. Ibyo bikamufasha gutera imbere, ndetse no kubona amafaranga yo gukoresha mu bikorwa bya buri munsi bitandukanye.

Ubucuruzi buba bwiza cyane. Aho wasangaga nk'abantu barafashe nk'amazu cyangwa se ahantu ho gucuruza imyaka itandukanye. Bagacuruza nk'indimu, pavuro, ibitunguru ndetse na karoti. Ibyo bigafasha abari gucuruza kubona amafaranga, n'abaje kubigura bakabasha kubikoresha mu mafunguro. Hari n'ababigurisha bakabona amafaranga yo gutungisha imiryango yabo no gukomeza kwagura ubucuruzi bwabo.

Iterambere riba ryiza cyane ,aho usanga nka leta yarubatse amasoko ahantu hatandukanye ,ugasanga nk'umucuruzi yaje afatamo nk'igisima cyangwa se agafata ahantu ho gucururiza, ugasanga ari gucuruza ibintu bitandukanye ,nk'imikubuzo yo gukura hasi, ugasanga afite imyuko, afite nk'ibihaza ,ndetse n'abantu bakabona aho guparika imodoka ,cyangwa ibinyabiziga ,ibyo bigafasha abantu kwiteza imbere ku bwo gucururiza ahantu hatekanye kandi hagari.

Amasoko akomeje kwiyongera cyane, aho bagiye bayubaka ahantu hatandukanye, mu byaro, mu nkengero z'umujyi, ugasanga aho muri ayo amasoko bari gucururizamo ibintu bitandukanye, amatara yo gukoresha mu muriro w'amashanyarazi, ndetse bagashyiramo n'amavuta yo kwisiga, aho umuntu asiga uruhu rukaba neza, ibyo bigafasha abari kubicuruza kubona amafaranga.

Amazu meza aho usangaga ahantu hatandukanye hubatse n mazu manini ugasanga nk'umuntu yashyizemo nk'imineke, imigati, amandazi, n'amazi yo kunywa, n'amata, n'ibintu bitandukanye. Ugasanga yahageze nk'umuntu ubikeneye kubigura babandi bari kubicuruza n'amafaranga yo gukomeza kwagura ubucuruzi bwabo bakiteza imbere.

Amasoko aba meza cyane, aho wasangaga abantu bari gucuruza ibihingwa bitandukanye, ibitoki, ibitoki bagacuruzamo bagakora ibyo gukora imineke, cyangwa se bagacuruza nk'innyamunyu, inshakara zo guteka, ibyo bigafasha hari abacuruzi bazanye bya bitoki kubona amafaranga yo kwiteza imbere, ndetse na babandi baje kugura ibitoki bakunda byo gutunga imiryango yabo.

Ibikorwa remezo biri kwihuta cyane aho usanga abantu barihangiye imirimo bakubaka amasoko, bamara kubaka amasoko bagafata agace nka kamwe ko gucururizamo ugasanga umuntu yamanitse ibitenge byo gucuruza, imyenda, amakanzu ndetse n'amabase, n'amasafuriya n'indobo byo gucuruza ,buri wese akajya ubikeneye akajya arajya kubifata, ugasanga umuntu yateye imbere mu buryo butandukanye.

Amasoko aba meza cyane. Aho usanga rwiyemezamirimo yaravuze ko agiye gucuruza, agafata inzu akashyiraramo ibintu bitandukanye, agashyiramo ibikapu. Ibikapu by'abagore byo gutwaramo ibyahi by'abana, byo gutwaramo umutaka, agashyiramo n'ibikapu by'abanyeshuri bajyana ku ishuri. Ibyo bikamufasha gutera imbere.

Amasoko aba meza cyane aho usanga Leta yarubatse igikorwa cyiza cyo kubaka nk'amasoko yo gucuruzamo nko mu byaro, mu mijyi kubaka ahantu hanini bagashyiramo amasoko abacuruzi bakaza bagafatamo aho gucururiza ari aba mitiyu bagashyiramo imitaka bagahana amafaranga na mitiyu. Hari abantu bagacuruzamo ibirayi, ibisheke ibintu bitandukanye n'imyenda bagakomeza kwiteza imbere n'igihugu kigatera imbere.